Ikigo cy'amashuri gifite amashuri y'inshuke ndetse n'abanza, gifite uruzitiro rufite ibara ry'umweru riterwa n'uko ariryo range risizeho, hejuru hariho umukaba w'ubururu naho hasi hariho uw'umukara.

Abana akenshi iyo bari ku ishuri basubiramo amasomo kugira ngo nibaramuka babajijwe bazabone ibyo basubiza, niyo mpamvu niba ufite umwana ukwiye kumujyana ku ishuri akiga kugira ngo azagirire igihugu akamaro mu gihe kizaza.

Iyo Leta hari ingamba ishaka gushyiraho, cyangwa hari ibyo ishaka kumenyesha abanyeshuri, ibakoranyiriza hamwe, maze ikohereza umukozi wayo nk'umupolisi, cyangwa undi ubifite mu bubasha, akaza akabaganiriza, cyane cyane, ababwira nk'ibirebana n'amategeko y'umuhanda, uburyo bakwirinda ibiyobyabwenge n'uburyo bareka kugenda mu ngeso mbi.

Inzu iri imbere y'ubusitani, ifite ibirahure byereruka, isa neza, iri impande y'urugo rugufi, ndetse muri ubwo busitani kuruhande, impande yagacaca, hari indabo z'ifite ibara ry'umutuku, zituma abantu bahegereye bahumeka umwuka mwiza.